Iyi n'ingorofani ikoreshwa mu bwubatsi cyangwa se gutwara ifumbire , imyanda ,itaka n'ibindi bintu bisa bitandukanye muri rusange ariko ikaba itwaye ifumbire iruhande rwaho yo hakaba ariho majagu yo kuyobora ifumbire.

Iki ni ikiyaga cy'amazi, mo hagati hakaba harimo ibirwa bigiye bitandukanye ariko bidatuweho, iruhande rwaho hakaba hari umusozi urimo ibiti.

Ubu ni ubwato bwa gakondo bukozwe mu mbaho bukaba burimo n'abatwazi babwo babiri iruhande rw'iki kiyaga hakaba ariho abandi bantu batandukanye.

Iki ni igihingwa c'ibirayi bikiri mu murima, bigaragara ko bibagawe vuba. Iruhande rwaho bahasaruye ibigori, urundi ruhande hariho amazu asanzwe y'abaturage.

Uyu ni umurima uhinzwemo igihaza， nk'uko bigaragara hakaba harimo ibihaza byeze， hategerejwe ko bisarurwa bikajyanwa ku isoko.

Uyu ni umurima uhinzwe mu buryo bw'imitabo bakaba bitegura gushyiramo imyaka itandukanye. Nk'ibigori, ibirayi n'ibindi.

Iki ni igihingwa c'urutoki kikaba gihinzwe mu muririma, iruhande rwacyo hakaba hahinzwe imigano cangwa se urusasa.

Uwo ni umuhanda w'igitaka unyuze mu baturage hagati, iruhande rwawo hari ibyatsi byitwa ibidariya, iruhande rwabyo hakaba ibitoki n'inzu y'umuturage.

Aka ni akayira gatoya nyabagendwa kagiye mu rugo rw'umuturage, iruhande rwako hakaba hari indabo n'inzu ibamo n'abaturage.

Iyi ni inzira nyabagendwa iciye ahantu mu bibara by'abaturage, ikaba irimo kunyurwamo n'abantu bava mu cyerererekezo kimwe bajya mu kindi, iruhande rwa yo hakaba hari inzu y'umuturage.

Uyu n'umurima wo mu giturage bawusaruyemo ibigori ruguru yawo hariho amazu y'abaturage akaza guhera haruguru kiriya tubona n'ikirunga cya Sabyinyo bakuruye.

Uyu ni umurima wasaruwemo ibigori, iruhande rwaho hakaba hari undi murima uhinzwemo ibirayi, uyu murima bakaba bakunda kuwita ikigorigori.

Uyu ni umurima uhinzwe mu bwoko bw'imitabo, akaba ari umurima witeguwe kuba wahingwamo ibihingwa bitandukanye: ibishyimbo, ibigori, ibirayi n'ibindi.

Iki ni ikiraro cy'inkoko. Aha akaba ari ahororerwa imishwi mitoya yavutse. Hakaba harimo akadobo kifashishwa mu kuzigaburira amazi.

Uyu ni umurima w'ibirayi hakaba harimwo abahinzi batatu bari kubikorera bari kubyongerera itaka kugira ngo bibashe kwera neza iruhande rwaho hari inzu z'abaturage.

Uyu ni umurima w'ibishimbo, bikaba bigaragara yuko harimo umukozi urimo kubikorera. Akaba ari ibishimbo by'ubwoko bw'ibishimbo bigufi.

Uyu ni umurima w'inanasi ,inanasi zigaragara yuko zeze kuko harimo n'umuntu urimo kuzisarura, ari kuzishira mu gitebo.

uyu ni umugore ufashe ibiti, akaba ari kubyerekana ko agiye kujya kubitera, biracyari mu bihoho akaba arabikura mu bihoho ari uko amaze kubitera.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa, aha akaba hari gucururizwa ibihaza akaba hari n'abantu barimo kubicuruza, n'umuguzi waje kubigura.

Uyu ni umurima w'inyanya n'intoryi, nguko bigaragara bikaba bihinzwe mu nyubako bita Gerene Hazi zikaba zirimo gusarugwa.

Uyu ni umurima ukaba urimo umudamu urimo kuwuhinga, iruhande rwaho hakaba hariho ibiti bigaragara yuko ari ishyamba ariko ritoya.

Uyu ni umuhinzi， urimo kuhira imyaka ye mu murima，akoresheje amazi anyujije mu ipompo，akaba yambaye na bote nk'umwambaro w'akazi.

Aba bantu babiri bari iruhande, bari mu murima w'ibigori barimo kubikorera, uyu wundi wa kabiri akaba afashe ibigori biri mu bwanikiro byeze, byareze babijyana mu bwanikiro. Uyu wa gatatu afashe ifu yavuye mu bigori.

Uyu ni umurima wa kawa ukaba urimo umubyeyi urimo gusoroma akaba afite igitebo arimo gusoromeramo umusaruro we.

uyu ni umurima w'ibirayi urimo abakozi batatu. Barimo kubibagara. Iruhande rwaho hariho ibindi birarayi bisa n'ibyenda kwera hakaba n'igitari inyuma yabo.

Aha ni aho bacururiza imbuto zo kurya. Hano zikaba ziganjemo ibinyomoro, wotameloni n'imyembe. Izi mbuto zikaba zirambitse ku dukoko hejuru akaba ariho bari kuzicururiza.

Uyu murima w'ibishimbo bigufiya， mu mpande zawo hakaba harimo ibigori. Uyu murima ukaba utegerejwe ko ibi bigori n'ibishimbo byera bakaza kubisarura.

Ibi ni igihingwa cy'ibirayi bikiri mu murima hakaba harimo abagabo batatu barimo kubyuhira, bari kubiha itaka kugira ngo bize gukura neza. Iruhande rwabyo hari amazu asanzwe y'abaturage.

Uyu ni umurima w'imboga imboga z'amashu hakaba harimwo abakozi bari kuzikorera abandi bari kureba ko zeze ngo bazisarure muri rusange.

Uyu ni umumama uri mu murima ufashe telefone nini igezweho ya simatifone, inyuma ye hakaba hahinzwe igihingwa c'ibirayi.

Aya ni amashu uyu mudamu avuye gusarura muri uyu murima akaba asaruyemo amashu abiri yeze, iruhande rwe akaba ariho undi mudamu uri gutambuka.

Iyi ni inkoko iri mu kiraro ikaba iri kumwe n'imishwi enye yayo ikaba yazibundikiriye mu rwego rwo kuzicungira umutekano.

Ibi ni i ibijumba byakuwe mu murima, barabitunganya, babijyana ku isoko, bitegereje kubona umukiriya uza kubihaha akabigura.

Ibi ni ibigori byokeje, akaba ari ibigori bicuruzwa. Bakaba barimo kubyokereza ku mbabura bakabigurisha abakiriya babikeneye. Iruhande rwaho hariho abaje kugura na none n'urimo kubicuruza.

Ibi ni ibigori bikiri mu murima bitari byera neza by'imiheto， bitegerejwe ko byera bakabijana ku isoko， kugira ngo bigurishwe ibindi biribwe.

Uyu ni umurima w'ibigori bikiri mu murima, ukaba uba uri mu bihande bibiri, kuko hagati hanyuzemo akayira abantu banyuramo bagenda.

Ibi ni ibirayi byazanywe ku isoko murwego rwo kubicuruza bikaba biri mubitanda hakaba harimwo n'umunzani wo gupimuriraho abakiriya harimo n'umuntu uri kubicuruza.

Ibi ni ibirayi bikiri mu murima baranduye mu butaka, bikaba biri hejuru y'ubutaka bari kurebako byeze.

Iyi ni imineke yatazwe ikaba yanahiye, iruhande rwaho hakaba hari igitoki kidahiye cyo kikaba ari icyo kurya gitetswe.

Uyu ni umurima wa kawa, akaba arimo abantu barimo kuyisoroma, bakaba bahetse ibitebo mu mugongo byo gusoromeramo.

Izi ni avoka zikiri mu giti zitegetejwe ko zera zigasarurwa kuko urugero zikiriho ni urw'imiteja ntabwo zari zera ngo zigere igihe cyo gusarura.

Iyi ni avoka ihiye yo kurya, ikaba yasatuwemo kabiri, bigaragara ko bari kwerekana ubwiza bwayo mu nda, ikaba igice kimwe nta cy'ikibuto kirimo ikindi kirimo ikibuto cy'avoka.

Ibi ni ibicuruzwa by'imbuto ziribwa harimo ibinyomoro ibihiye n'ibidahiye, hakabamo pome, wotameloni, amaronji n'ibindi bitandukanye muri rusange.

Uyu ni umurima uhinzwemo ibishimbo hakaba harimo umugore uru gusoroma imboga z'ibishimbo zizwi kw'izina ry'umushogoro.

Aya ni amasaka yahuwe yamaze gukurwa mu murima, ahangaha akaba yanitswe. Kugira ngo aze kuma babone, kuyakoramo ibindi nk'ifu, cyangwa se ibindi bitandukanye.

Uyu ni umurima uhinzwemo ikawa, hakaba harimo abagore barimo kuyisoroma, bakaba bafite n'igitebo cyo gushiramo umusaruro basoromye.

Iyi ni imiteja iribwa ariko ikaribwa ari uko yamaze gutekwa, ikaba iri ku isoko aho bayigurishiriza kugira ngo uyikeneye ayibone byoroshe.

Aya ni amasaka yanitswe hamwe akaba bamaze kuyahura yakuwe mu mahondo aba amasaka yakwifashishwa akaba ategerejwe ko amera neza kugira ngo ajyanwe ku isoko.

Uyu ni umuceri bashize mu kabogisi bakaba bari kwitegura kuwutunganya ngo bawuteke babone kuwurya umeze neza.

Aya ni amasaka yaciwe mumurima w'amasaka yeze akaba bayita amahundo kuko atarakurwaho ziriya mpeke akaba akiri kuruti rwayo.

Iyi ni imifuka bigaragara ko imaze gukurwa mu modoka yayizanye bikaba bigaragara ko irimo ifumbire isanzwe ikoreshwa mu guhinga imyaka itandukanye.

Ibi ni ibicuruzwa by'imyaka byiganjemo ibinyampeke birimo impungure, amasaka, ibishyimbo, soya, uburo n'ibindi, bikaba biri aho babicururiza.

Aha ni mu bwanikiro bw'ibigori, hakaba harimo umugabo uri kumanura ibigori n'umugore uri kubyakira ngo babitunganye babijyane ku isoko.

Ubu ni ubuhunikiro bw'ibigori, bwo hanze y'inzu, ariko bukaba bwubakiwe. Iruhande rw'aho hari inzu bigaragara ko ibamwo n'abantu.

Aha ni mu buhunikiro cyangwa se mu bwaniki bw'ibigori, hakaba ariho n'umusaza ubishinzwe, akaba arimo kuganira n'umunyamakuru.

Aba ni abaturage bari gusarura amasaka, bakaba bari kuyakata hejuru. Bari gukata amahundo, akaba ari abagabo batatu, umwana ubari imbere akaba afashe icyuma bari gukatisha.

Aya ni amajeri bigaragara yuko akiri mu murima, akaba atari yera neza ngo agere igihe cyo gusarurwa, ariko akaba ari hafi.

Ubu ni ubwanikiro bw'ibigori. Akaba ari ubwanikiro busakariwe cyangwa se bwubakiwe hanze bufunguye kugirango hinjiremo umuyaga uhagije ibigori byume neza.

Aha ni mu bwanikiro bw'ibigori ariko bwubakiye bukaba ari ubwo mu nzu ariko ahagera urumuri rwinshi kugira ngo bibashe kuma neza bitavemo umusaruro mwiza.

Iyi ni inkoko iri mu cyari cyayo, ikaba ibundikiriye amagi yayo, yitegura kuyaturaga ngo havemo imishwi.

Iki ni ikiraro cy'inkoko ahangaha hakaba hororerwa imishwi mitoya yavutse kikaba kirimo akadobo kifashishwa mu kuziha amazi n'umufuniko wo kuzigaburiraho.

Izi ni ingurube zikiri ntoya cyangwa se icyo twita ibibwana by'ingurube. Bikaba biri mu kiraro cyabyo bitegereje guhabwa ibyo kurya.

Iki ni ikiraro cy'inka kirimo inyana n'umushumba wayo na veterineri cyangwa si umuganga w'amatungo, akaba arimo kuyitera urushinge cyangwa si kuyikingira.

Izi ni inka ziri mu gikuyu akaba ari inka zitandukanye nyinshi, zikaba zambaye n' amapeti cyangwa se amaherena ku matwi yazo.

Aba ni abaganga b'amatungo basuye ikiraro cy'ingurube, akaba ari abaganga babiri. Umwe akaba afashe ikibwana cy'ingurube mu ntoki.

Iki ni ikiraro c'ingurube kirimo umushumba wazo uri kuzigaburira arimo kuziha ibyo kurya ,bigaragara yuko atari ikiraro kimwe ahubwo ari byinshi bigiye bifatanye, ariko aha ngaha ari kugaburira izi ngurube enye ziri muri iki kiraro.

Iki ni ikiraro c'ingurube, kikaba kirimo ingurube ebyiri n'umushumba wazo, n'umuganga w'amatungo waje kuzikingira.

Ibi ni ibibwana by'ingurube cyangwa se ibyana by'ingurube biri mu kiraro cyabyo, bitegereje guhabwa ibyo kurya kugira ngo bize ku kurya.

Iyi ni inkende bigaragara ko iri mu ishyamba, ikaba iri mu giti hejuru mu bibabi byinshi.